Hari imboga mu rugo, hari inzu hari n igiti, inyuma yaho hari igipangu, ahan ni mu rugo ariko banahateye ibiti by'imbuto murugo kugirang bifashe haba mu kubona imbuto ndetse no kubona igicucu.

Iyi famu irimo ibyatsi, irimo inka z'igaju, iririmo inka z'isine, irimo inka z'ibihogo, irimo ibiti by'inganzamarumbo, harimo ishayo ry'inka kuko ibigaragara ni nyinshi cyane.